Umugabo uri hejuru uhagaze ku mifuka, ndetse arimo arayihabwa n'aba babyeyi babiri, uko bigaragara ni ibiribwa; barimo baragerageza kubitanga kugira ngo abantu na bo bandi, babone ibyo kurya, bakomeza kugira ubuzima bwiza.

Abaganga baje kwita ku barwayi bo mu cyaro bakoresheje ibikoresho, ari kumureba mu kanwa ngo arebe ko nta kibazo amenyo ye yaba yaragize ndetse hari n'abandi bategereje ko abaganga babageraho bakabarebera ko nta kibazo bafite.

Abagabo n'abagore bamwe barahagaze abandi baricaye bafashe ifoto bahujwe no kugira ngo baganire ku bijyanye n'ibibazo by'ubuzima.

Umuganga w'umugore afite urushinge mu ntoki ze, ari kurutera umwana, arimo kumukingira ndetse uwo mwana ateruwe na mama we, ku meza hariho ibindi bikoresho ari kwifashisha mu kugira ngo atere inkingo abana bato.

Abagore n'abagabo bicaye imbere baganira ku buzima ndetse n'imigirire yabwo ndetse ba bagakangurira abantu kubwitaho babuha ibikenewe byose.

Umwana w'umukobwa muto arimo arakaraba amazi meza kuko amazi meza ni isuku ndetse anafasha muri byinshi, haba kuyanywa ndetse no kuyakoresha mu y'indi mirimo ariko bikaba akarusho iyo asa neza.

Ababyeyi babiri ndetse n'abana babi, bicaye ku ivomero barimo baroga bamwe, abandi barimo baravoma, ndetse urabona ko bishimye bari kwita, ku buzima bwabo bagira isuku, ku mubiri ndetse n'aho batuye.

Inama yahuje abantu batandukanye ingeri zose, barimo baraganira ku buzima busanzwe n'imibereho ndetse n'ukuntu wakwita ku buzima bwawe bijyanye n'umubiri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abagabo babiri bicaye, imbere ye ndetse bari mu bukangurambaga bwo kugira ngo abantu babashe kwiyitaho, ubuzima bwabo bube bwiza, barya ibiryo bifite intungamubiri ndetse banakora imyitozo ngororamubiri.

Ikirangantego cy'ikigo gishinzwe kwita ku bana imibereho yabo ndetse n'imyigire uko babayeho mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ndetse nuko bagenda bita ku masomo yabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo mu buzima busanzwe bw'abana.

Abanyabuzima bo mu duce dutandukanye bahuye, bamwe baricaye, abandi barahagaze, barimo gukoma amashyi, barimo bararirimba indirimbo zitera akanyamuneza ndetse bamwe bishimye cyane.

Ikigega gisukura amazi agiye ava ahantu hatandukanye mu mpande zose kikayahuriza hamwe ndetse kikayasukura kikajya kiyohereza mu baturage ariko akabageraho ari meza ndetse afite ubuziranenge buhagije.

Amajerekani atondetse ndetse n'abantu baje kuvoma ku ivomero rusange bategereje ko nabo amazi yabageraho kandi amazi meza asukuye aba anyuzwa mu matiyo.

Abana babiri umwe arimo araseka biragaragara ko yishimye, bari kureka amazi mu biganza byabo ndetse amazi arimo aranyura mu itiyo umwe yambaye inkweto zifunze n'agapantaro n'agashati bisa ndetse n'undi yambaye agapira k'umutuku.

Abantu benshi baricaye, ku meza hateretse amazi ndetse n'ibikoresho bya mudasobwa ndetse n'amatelefoni, bafite n'amakaye bari kwandika ibitekerezo bitandukanye birimo biragenda bitangwa, bavuga ku bijyanye n'ubuzima.

Umwana urimo aravoma amazi, ndetse amazi arimo aravoma biragaragara ko ari ahantu mu kibaya ndetse amazi ntabwo yizewe kuko awukandagiyemo ushobora kuba arimo imyanda, ayo mazi ntabwo ashobora gutuma agira ubuzima bwiza.

Umugore uhagaze arimo aravuga ijambo, afashe indangururamajwi mu kiganza, inyuma ye hari ikirangantego cya Unicef, gifasha abana ndetse kikanakurikirana uburyo babayeho, hirya ye hari ibindi birangantego by'abafatanyabikorwa.

Abana baje kuvoma, bamwe bafite indobo abandi bafite utujerekani, harimo abahungu n'abakobwa, barishimye baje kuvoma amazi meza kandi bambaye iniforume z'ishuri.

Ahantu abantu bicaye ndetse bari kunywa n'amazi basa naho bakurikiye, hari umuntu bakurikiye ndetse hari n'abandi bahagaze bafite ibindi bakurikiranye, bafite n'udukaye n'ibitabo byo kwandikamo.

Umukobwa wicaye ari kuvoma mazi ndetse ijerekani iteretse mu mabase abiri, inyuma ye hari imyenda yanitse ndetse biragaragara ko yayisukuye akoresheje uburyo bwo kumeshesha amazi meza ndetse n'isabune.

Umuganga ufite ibikoresho yashyize ku meza hari abaturage baje kugira ngo abasuzume, bazanye abana babo ari kugenda abatera inkingo ndetse n'abandi abaha imiti ibakiza indwara barwaye.

Umuganga ari kwita ku barwayi be bose bambaye udupfukamunwa ndetse umuganga yambaye n'iyindi myenda irinda ko yakwandura indwara zose zandurira mu kwegerana n'umuntu, ndetse arimo gukoresha ibipimo kugira ngo arebe indwara yaba afite.

Umugore ufite uruhu rwera, afite telefone mu ntoki ze, arimo arafotora umwana wikoreye akajerekani avuye kuvomeramo amazi, ndetse ari kumwe n'undi mugabo wambaye agapfukamunwa, ndetse n'abandi babari inyuma, na bo barareba imibereho y'uwo mwana.

Igice cy'ubwonko nicyo kiri kugaragara aha, bari kutwereka uburyo ki ubwonko bwacu bukora ndetse n'uburyo bukwiye kwitabwaho kuko ni ikintu gikomeye cyane, dukwiriye kurinda mu bice bigize umubiri wacu.

Ibitaro bishinzwe gukurikirana abafite ibibazo bijyanye n'indwara zo mu mutwe ndetse n'izindi ndwara zose abarwayi baba bafite ariko zijyanye n'igice cy'umutwe ni zo bakurikirana muri ibi bitaro.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo b'abaganga baje kwiga ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, buri gukura muri iyi minsi ndetse bakaba bitwaje amazi kugira ngo baze kuyifashisha bayanywa mu gihe barimo baraganira.

Icyapa kigaragaza abantu benshi ndetse kivuga ko iyo abantu ari benshi kandi bagasubiza akantu gato gakozwe kagaragara nk'aho ari kanini mu kugira ngo habeho imibereho myiza kandi ifite ubuzima bwiza.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge, yambaye ishapule mu gatuza ni umwiraburakazi arishimye ariko ntabwo ari kubigaragaza cyane. Inyuma ye hari ibicuruzwa ndetse n'abantu barimo barahaha.

Abaturage bahuye bari kumwe n'abayobozi babo baganira ku bijyanye n'indwara zo mu bwonko ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zifata igice cy'umutwe.

Ababyeyi ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe, bakurikiye umugabo urimo abasobanurira byinshi ku bijyanye n'indwara zo mu bwonko ndetse n'uburyo bazirinda, bagana abaganga babegereye kugira ngo babasuzume.

Umugore uri kumwe n'umugabo, umugabo arasa n'uhangayitse, afite ibibazo bijyanye no mu mutwe ndetse ari guhumurirwa kugira ngo arebe ko yabasha kwitabwaho n'abaganga babishinzwe.

Ikirango kigaragaza abita ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe ndetse n'izindi ndwara zijyanye n'ubwonko, kikaba cyitwa Wihogora. Kikaba gifasha abantu kugira ngo bite ku buzima bwabo bujyanye no mu mutwe.

Umukobwa uri kwita ku menyo ye ayakerera isuku, ndetse turabona ko amenyo ye asa neza, ni uko uko yayitayeho akayagirira isuku, uko bukeye n'uko bwije natwe twite ku menyo yacu.

Umuganga uri kureba mu menyo y'umurwayi uryamye ku gitanda, muganga yambaye agapfukamunwa na marineti. Inyuma ye hari ibindi bikoresho akenera mu kazi ke ka buri munsi ko kwita ku barwayi ndetse no ku gikuta hariho ibindi bishushanyo byerekana indwara akurikirana n'abarwayi.

Umuganga ukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga kugira ngo arebe umurwayi ikibazo afite mu menyo ndetse akoresha uburyo bwinshi kugira ngo amwereke aho ikibazo kiri, abashe kugikurikirana neza.

Umuganga uri gusuzuma amenyo y'umwana kugira ngo arebe ikibazo cyaba kirimo kuko umwana yaje amugana afite ikibazo cyangwa aribwa mu menyo ndetse muganga akaba arimo arakurikirana ngo arebe ikibazo yaba afite.

Abana ni benshi bafite udukombe, bafite borose mu ntoki zabo ndetse barimo baranasukura amenyo yabo, barishimye barimo baragira ngo bite ku menyo yabo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abana benshi bahagaze bamwe baricaye, bari kwita ku menyo yabo bakoresha imiti yabugenewe yo gusukura amenyo, ndetse bari guhabwa urugero n'abandi bakuze baje kubereka uburyo ki wasukura amenyo yawe.

Umwana muto ufite uburoso bw'amenyo mu kanwa ndetse inyuma ye hari n'abandi bana barimo barasukura amenyo ya bo, kugira ngo arusheho gusa neza kandi na bo bagire ubuzima bwiza.

Abaganga batatu baje kwita ku barwayi b'amenyo ndetse umwe arimo ararebera uwamugannye ngo arebe ikibazo yaba afite mu menyo kugira ngo abashe kugikurikirana amufasha.

Umuntu ugiye gushyira akuma gafasha amenyo kugira ngo ajye ku murongo, bifasha kugira ngo amenyo atagira ikibazo na kimwe ahura nacyo, mu gihe uri kurya cyangwa hari ibindi biri kujya mu kanwa.

Umukobwa cyangwa umugore uri kwiborosa amenyo ye arimo arayakorera isuku akoresheje uburoso ndetse n'umuti webugenewe kugira ngo amenyo ye arusheho kugira ubuzima bwiza.

Akuma gapima niba amenyo ari mazima niko uyu musore afite ndetse amenyo ye biragaragara ko amaze kumera neza kandi afite ubuzima bwiza muri rusange.

Umusaza n'umukecuru bishimye, bari mu myitozo ngororamubiri, kandi bari mu myaka mikuru, bakeneye kwita ku mubiri wabo bakagira ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye akurikiye ibyo umugore umwicaye imbere ari kumubwira bijyanye n'ubuzima bwe, kuko ari mu myaka y'ubukure akeneye kwita ku buzima bwe, cyane akajya anywa amazi menshi nk'uko bayamuzaniye ndetse n'ikayi umugore akoresha yandikamo uko byagenda.

Ababyeyi bakuru barishimye baraseka ubona ko bafite ubuzima bwiza bafite telefoni barimo barifotora, bari ahantu heza kandi bafite umunezero n'ubwo bari mu myaka mikuru.

Amazi ateritse ku meza ndetse n'imiti umusaza n'umukecuru baricaye bari kureba muri telefone yabo ndetse umukecuru afite igipapuro mu ntoki bari gukurikirana uburyo bakwita ku buzima bwabo neza kandi bakaramba.

Umugore uri mu myaka yo hejuru arimo arakora siporo ahantu heza hari akayaga hari n'ubwatsi butoshye arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we umere neza agire kandi ubuzima bwiza.

Umuforomokazi wita ku bakecuru n'abasaza bari mu myaka iri hejuru cyane, agenda abaganiriza ku buzima ndetse n'ukuntu bari kwiyumva, akoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga byabugenewe kugira ngo yumve uko ubuzima bwabo bumeze.

Umusaza wicaye afite akuma kari ku kaboko ke ari kugakanda, kuma gafasha kugira ngo abe yahamagaza abaganga bimworoheye kugira ngo bakomeze kumukurikirana cyangwa ababaze ibibazo bimwe agiyeyo afite.

Umusaza wicaye mu kagare ari gusunikwa n'umukobwa barishimye bari guseka, n'umusaza ubona ko akuze ariko ari kwitabwaho mu buryo bwiza n'ababishinzwe.

Umuforomokazi cyangwa uwita, ku basheshakanguhe ndetse n'abakuze arimo arafasha, umubyeyi gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe gukomera ndetse agire ubuzima bwiza.

Ababyeyi ndetse n'umwana wabo bishimanye n'abasaza n'abakecuru, ni abuzukuru babo baje kubasura mu buryo bwo kubana n'abasheshe akanguhe.

Icyapa gikangurira abantu kugira ngo bagume bafite ubuzima bwiza burimo ibintu byose bakeneye, yaba kuba ukora imyitozo ngororamubiri, unywa amazi meza, ndetse urya n'ibiryo bifite intungamubiri.

Umugabo n'umugore bafashe icyapa kigaragaza kwisuzumisha igituntu, bavuga ko kivurwa kandi kigakira mu bukangurambaga barimo kugira ngo abantu bagombe bikingi kandi bivu ku gihe.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bafite icyapa kigaragaza kwirinda indwara ya Virusi itera SIDA, basaba abantu kwipimisha ndetse kuri icyo cyapa harimo ho ibigo bigiye bitandukanye bishinzwe ubuvuzi mu gihugu.

Icyapa kigaragaza uburyo abantu bakwiriye kwirinda, bakita ku buzima bwabo ndetse mu gihe babona ko ari ngombwa ko bagana abaganga cyangwa ibigo nderabuzima bibegereye, bakihutira kugerayo kugira ngo babashe gukurikiranwa.

Intambwe utangira ukanasohorezaho kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza, uvuye ku ntambwe ya mbere n'iya kabiri, iya gatatu n'iya kane ndetse n'iya gatanu, zose zigufasha kugira ngo ube wagira ubuzima bwiza kandi bufite agaciro.

Ubukangurambaga bushingiye ku kwerekana uko wakwirinda gukuramo inda bidateganyijwe kuko bishobora kugira ingaruka kuwo utwite cyangwa wowe utwite, akaba bakangurira abantu kugira ngo babikore mu buryo bwizewe.

Icyapa kiriho umuntu ndetse n'ibisobanuro by'icyo cyapa, harimo ibitera n'uburyo wakwirinda indwara zigiye zitandukanye, icyapa kiriho umuganga ndetse hariho n'amatariki wazaboneraho n'uwo muganga, akabasha kugukurikirana aho wamusanze.

Icyumba basuzumimo abarwayi, ndetse harimo imashini nyinshi, bafashisha bareba nimba mu ngingo z'umuntu nta kibazo na kimwe kirimo, ndetse abo bagisanze, bakabasha kumufasha.

Abaganga barimo barakora isuzuma, bari mu cyumba gikorerwamo isuzuma ry'imiti ndetse n'ibindi biribwa. Imbere yabo hateretse amavuta ndetse harimo n'ibikoresho byifashishwa mu kugira ngo basuzume ubuziranenge.

Icyumba kirimo ibitanda by'abarwayi bigiye bitandukanye ndetse n'utubati abarwayi bashiramo ibikoresho, kuko bamaramo igihe bitewe n'umurwayi igihe bamuhaye azamaramo, kugira ngo abashe kwitabwaho n'abaganga.

Icyumba basuzumiramo indwara ndetse bakareberamo n'ibizamini byatanzwe n'abarwayi batandukanye bitewe n'indwara barwaye ndetse cyakirwamo abana ndetse n'abantu bakuru.

Icyumba cy'aho bakorera imyitozo ngororamumubiri ndetse kikanafasha bamwe bafite ibibazo by'ingingo, kugira ngo bakomeze biyiteho kandi bakurikiranywe byoroshye.

Umuganga w'umugore yambaye agapfukamunwa na marnete, yambaye n'amaherena ari kureba muri mudasobwa areba imyirondoro y'abarwayi afite ndetse hirya harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu kuvura abarwayi.

Ikigo nderabuzima kiba gikubiyemo indwara nyinshi zivurwa zitandukanye, ndetse hano hari icyumba babyariramo ababyeyi ndetse n'aho abaganga bakurikiranira abana b'impinja ndetse n'abandi baba bakivuka.

Icyumba umuganga w'abana abakurikiraniramo, urabona ko harimo ibipupe ndetse n'inyamaswa bishushanyije ku rukuta ndetse n'agatanda k'abana gafasha muganga kugira ngo abasuzume neza.

Icyumba kirimo igitanda umurwayi aryamaho, intebe muganga aba yicayeho, ameza ndetse n'imashini zimufasha kugira ngo asohore inyandiko zivuga ku byo umurwayi arwaye ndetse n'imashini ikoreshwa babyandika.

Icyumba kirimo igitanda, uburiri ndetse naho bashyira imyanda naho bakarabira, aho ni ho umurwayi aryama mu gihe bamuhaye kuba ari mu bitaro kugira ngo abaganga babashe kumukurikiranira, ari hafi yabo.

Icyuma kinini kirimo inzitiramubu nyinshi ndetse harimo n'abarwayi baryamye ku bitanda, harimo n'umuganga uri kugenda amanika inzitiramubu kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho ndetse hari n'imashini zifasha abarwayi kugira basuzumwe neza.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe gifasha abantu barwaye ndetse n'abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, mu kubagira inama ndetse kikaba gifashwa n'Umuryango Imbuto Foundation.

Icyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga, harimo n'ibitanda ndetse n'ibigaragaza amashusho yo gukurikiranaho abarwayi abareba imyirondoro yabo.

Inzu bavuriramo abarwayi kandi abarwayi babagana batandukanye, bafite indwara zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu inzu y'abarwayi igomba kuba ari nini kugira ngo buri wese ukeneye umuganga abashe kumubona.

Icyapa kigaragaza amerekezo, ariho ibitaro bya CHUB biri mu karere ka Huye, ndetse ibyo bitaro bikaba bifasha abarwayi bagiye batandukanye, bitewe n'indwara barwaye, bakagana abaganga bahegereye.

Icyumba kimwe kirimo icyongerera umwuka abarwayi ndetse ikindi kirwariyemo umurwayi, afite imashini imufasha kugira ngo akomeze gucungwa n'abaganga bamurebere hafi ko nta kibazo afite.

Inzu bakurikiraniramo abarwayi, ifite aho bakira abarwayi ndetse n'aho abarwayi baryama mu gihe bahawe ibitaro cyangwa mu gihe abaganga bakibategereje.

Inzu bavuriramo abarwayi hanze hari amatara atuma, haba umucyo ari nijoro ndetse hari n'ubusitani abarwayi bicaramo iyo bakeneye kumva akayaga ndetse bakanafata akazuba ka mu gitondo.

Inzu y'ababyeyi babyariramo ndetse bagakomeza no kwitabwaho n'abaganga. Iyi nzu ikaba yarahariwe abagore bose batwite ndetse n'abamaze igihe gito babyaye, bagakomeza gukurikiranwa n'abaganga.

Igitangazamakuru kivuga uburyo wakwita ku mubiri wawe ukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ugire ubuzima bwiza ndetse ingingo zawe zibe zikomeye, ku buryo nta kibazo na kimwe zagira.

Inkweto, imbuto, umugozi, icupa ry'amazi, icyuma gikoreshwa kureba ibiro ndetse n'agatapi bakoresha bakoreraho siporo. harimo imbuto zigenda zitandukanye pome, avoka ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha umubiri w'umuntu kugira akore siporo neza.

Umutoza w'umugore arasutamye ari kureba umusore urimo urakora imyitozo ngororamubiri biragaragara ko ahagaze neza, arimo arakora imyitozo ubona abishishikariye kuko azi akamaro ka yo kandi bikaba bifasha ubuzima bwe bwa buri munsi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi arishimye, ni bimwe mu bigaragaza ko imyitozo ngororamubiri ifasha kugira ngo umuntu ananagire akanyamuneza gaturutse kuba umubiri waruhutse.

Umuntu uryamye ku gitanda ndetse afite undi uri kumukanda mu mfundiko, yambaye inkweto bakoresha mu myitozo ngororamubiri. Uko bigaragara yagize ikibazo mu kaguru ndetse bari kumwitaho.

Umuntu umwe yicaye ku gitanda cy'abarwayi yambaye inkweto zifunze ku kaguru kamwe ndetse n'isogisi, ikindi kirenge mugenzi we arimo aramwitaho amushyiraho ibyo atwita ibipfuko yavunitse mugenzi we arimo aragerageza kumwitaho kugira ngo akire.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyagenewe kureba mu mubiri w'umuntu iki gitanda ni'icyo umurwayi aryamaho bakamwinjizamo kugira ngo icyuma gisuzume umubiri we barebe ikibazo aho cyaba kiri kugira ngo abaganga babashe kwita ku murwayi.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi, iruhande rwe hari intebe ndetse n'ameza akoreraho imyitozo kugira ngo agire umubiri ufite ubuzima bwiza kandi ugororotse.

Umuforomokazi uri gufasha umurwayi wari umaze igihe atabasha kugenda kuba yakoresha ibyuma byabugenewe kugira ngo bimufashe mu kuba yakongera kwimenyereza kugenda.

Umusore uri kunywa amazi ari mu icupa ndetse biragaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, amazi na yo ari mu bifasha kugira ngo umubiri wacu umere neza kandi ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, ari gukoresha ibyuma tuzi nk'ibiba bifite ibiro byinshi abiterura kugira ngo yongere umubiri we, ubashe kumera neza cyane.

Igitanda umurwayi aryamaho muganga agiye kumurebera uko ameze, ndetse na mudasobwa ashyiramo amakuru yerekeranye n'uwo murwayi wamugannye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, biragaragara ko yayikoze ari myinshi kandi akaba agikomeje kuyikora kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba bwiza kandi ahore afite amagara mazima.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ndetse arambura amaguru ye kugira ngo arebe ko arambutse, kandi mu maguru ye nta kibazo na kimwe kirimo.

Intebe muganga yicaraho iyo asuzuma abarwayi ndetse turabona na mudasobwa akoresha iyo ashyiramo imyirondoro y'abarwayi be, mu gihe baje kugira ngo abarebere uko baba bameze.

Amazi, pome, ibinyomoro ndetse n'amaronji byose ni ibintu byifashishwa mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ndetse arebe n'uko ahagaze, uko ubuzima bwe bugenda bumera.

Imyitozo ngororamubiri harimo guhagarara ukoresheje akaguru kamwe, guhagarara cyangwa ukagenda ukoresheje akaguru kamwe, gukoresha ikirenge kimwe ndetse no kugenda wemye, bigufasha kugira ngo ugire umubiri mwiza.

Abana bato ni benshi bari ku kibuga ndetse bafite n'imipira yo kwifashisha bakina, ni benshi cyane barahahurira kugira ngo bakine kandi basabane.

Umuntu uri kunywa amazi. Ndetse tuzi ko amazi ari ubuzima. Ndetse amazi adufasha mu bintu byinshi bijyanye n'umubiri wacu no kugira ngo dutunge imibereho myiza ifite n'ubuzima bwiza.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, umukinnyi yaryamye hasi, mugenzi we arimo aramurebera ko hari ikibazo yaba yagize mu ivi, hafi yabo hari abandi barimo barakina ndetse n'umupira wo gukina na wo urahari.

Umusore uhagaze ahantu ndetse avuye gukora imyitozo ngororamubiri urabona ko ahagaze neza, ari kwisukaho amazi, ameze nk'uvuye kwirukanka ndetse urabona ko afite ubuzima bwiza bitewe nuko akora imyitozo ngororamubiri.

Umuti w'igikakarubamba ufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, igikakarubamba gifasha kuvura yaba indwara zo ku ruhu ndetse kigafasha n'umubiri wacu kumera neza.

Imiti itandukanye ikoreshwa mu kuvura abantu, ndetse yahereye kera ikoreshwa, igihe iri mu bwoko butandukanye, haba mu ducupa duto cyangwa utunini uko ukifuza, ndetse kakagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Imiti ifasha kuvura indwara zigiye zitandukanye kandi ikoreshwa n'abantu bose uretse abana, na bo bagenerwa imiti bakwiriye kunywa bitewe n'imyaka bagezemo.

Umurima uhingwamo imiti ya kinyarwanda, ndetse ukaba usurwa cyane kugira ngo barebe ko iyo miti ihingwa, kandi irushaho kwitabwaho kugira ngo izafashe abantu.

Ubuki burakoreshwa cyane ndetse inzuki tubona ko zidufitiye akamaro kenshi cyane, tubifashijwemo nabwo n'indabo inzuki ziba zagiye gushakaho ibyo zirya, bityo zigatanga ubuki.

Imiti gakondo yo kunyobwa ndetse yifashishwa cyane n'abarwayi bafite ibibazo byo mu nda ndetse n'izindi ndwara zitandukanye kugira ngo iyi miti ibakize.

Imiti gakondo igenda iri mu buryo butandukanye, yaba iy'ibyatsi ndetse ibyatsi hari n'igihe bihindurwamo ibinini abantu bakabinywa kugira babashe gukira indwara barwaye.

Amashusho agiye atandukanye iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, iya karindwi n'iya munani ndetse n'iyacyenda zose zerekana imiti gakondo ikunda gukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umuti ukoreshwa basiga ku mubiri, kugira ngo umubiri umere neza, kandi ukomeze kugira uruhu rutoshye, ukoreshwa cyane n'abantu baba bafite uduheri ku mubiri, ndetse n'abandi baba batukuye, cyangwa bagize ibindi bibazo, bijyanye n'uruhu.

Umuti ukoreshwa mu buryo bwa Kinyarwanda, kugira ngo uvure indwara zitandukanye ndetse ukaba warabonetse kandi ugakoreshwa no mu bihe bya kera, n'ubu ngubu bakaba bakiwukoresha.

Imiti gakondo ikoreshwa cyane cyane nk'abantu ba kera ni bo bayikoreshaga cyane ariko n'ubu iracyakoreshwa ndetse cyane mu buvuzi, iyo ugannye abavuzi benshi bakubwira ko ukwiriye gukoresha iyo miti gakondo.

Igiti kiriho amababi akoreshwa mu kuvura indwara ndetse akunda gukoreshwa mu buryo bwa gakondo, wifashishije nk'amazi yakivuyemo kugira ngo akore neza.

Ibibabi bikoreshwa nk'umuti wa gakondo cyane cyane ukunda gukoreshwa n'abavuzi kugira ngo babashe kuvura abarwayi babagannye bashaka gukoresha imiti ya gakondo.

Ubwoko bwinshi bw'ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo, turabonamo amoko menshi agiye atandukanye kandi agenda avura indwara zitandukanye abantu baba bafite.

Ubwoko bw'ibyayi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye abarwayi baba bafite, ibyayi bigiye bifite umwihariko yazo n'indwara bivura.

Umuti w'igikakarubamba ukunze gukoreshwa mu miti ya kera ndetse na n'ubu ukaba ugikoreshwa ndetse icyo gikakarubamba ukaba wanagikoramo isabune ujya ukoresha mu koga kugira ngo uruhu rwawe rukomeze gusa neza.

Imiti inyobwa ikozwe mu buryo bwa gakondo, abantu benshi bakunda kuyifashisha mu gihe barwaye indwara zigaragara kandi zavurwa n'iyi miti gakondo iba iri mu macupa.

Imiti gakondo irimo za tangawizi ndetse n'ibyatsi, za te ndetse n'ibindi byinshi byifashishwa mu kugira ngo bivure abantu bitewe n'indwara barwaye.

Ironji riri m cyo kunywa ndetse ku meza hateretse n'ayandi maronji akiri umwimerere, uko wayanywa kose ariko akoreshwa kugira ngo abe umuti.

Umuravumba, umuti ukunda gukoreshwa cyane mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo inzoka zo mu nda, ndetse n'izindi ndwara umuntu abafite, cyane cyane ukoreshwa n'abantu baba bashaka gukoresha imiti ya gakondo.

Amavuta akozwe mu gikakarubamba ndetse ni n'umuti ukomeye cyane kuko mu Kinyarwanda igikakarubamba ni umuti ukomeye, ukunda kwifashishwa cyane mu buvuzi bwa gakondo kandi ukifashishwa n'abantu benshi cyane.

Ibiti byeraho imbuto ndetse n'ibibabi byose byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse ukaba wanaturya bisanzwe utubuto tuva kuri iki giti.

Imiti myinshi itandukanye ya gakondo iri mu ibara ry'umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse n'andi mabara abiri yijimye, ni imiti ikunda gukoreshwa mu kuvura abantu ariko hifashishijwe uburyo bwa gakondo hakoreshejwe ibyatsi.